Ni abaturage biganjemo abahinzi bambaye imipira y'icyatsi, barimo guhabwa ubukangurambaga ku bigendanye n'imiti bakoresha batera mu bihingwa kugira ngo birinde ibyonnyi.

Ni umurima munini cyane uhinzemo imyaka itandukanye uherereye ahantu ho mu kibaya, harimo umuhinzi uhetse igicuba kirimo umuti aho ari gutera umuti urinda ibyonnyi muri ibi bihingwa kugira ngo azabone umusaruro mwiza.

Ni umurima munini cyane uteyemo ingemwe z'imbuto, umuhinzi uhetse igicuba kirimo umuti ari gukingira izi mbuto ziteyemo kugira ngo azirinde ibyonnyi bitandukanye byangiza ibihingwa.

Iki ni igishanga karemano, kirimo amazi ndetse n'ibyatsi byo mu gishanga. Hagaragaraho ba mukerarugendo babiri, bishimiye kureba ubwiza bw'iki gishanga ndetse barimo baritegereza cyane amazi yacyo.

Ni ishyamba rinini cyane riherereye ahantu ku musozi, munsi yaryo ahameze nko mu gishanga hari ibyuzi bitandukanye biri mu kibaya birimo amazi menshi byororerwamo amafi yo kwifashisha mu kurya ndetse n'ubucuruzi butandukanye.

Abagabo babiri bambaye imipira y'ubururu ndetse n'ingofero bafite igikoresho kinini cyane kiri amafi aho baje kuroba mu kiyaga kugira ngo babashe kubona amafi bakeneye.

Ni icyuzi kinini cyane giherereye mu gishanga, kizitijwe ibikoresho byifashishwa mu kubungabunga amafi ari mu nyanja kugira ngo abashe gukuriramo azatanga umusaruro ukenewe.

Ni umurobyi w'amafi ufite igikoresho ari kuroberamo mu kiyaga, afite ifi mu biganza bye ndetse ari gukorana umwete cyane umurimo w'uburobyi bigaragara ko abisobanukiwe cyane ndetse azi n'agaciro k'amafi.

Umubyeyi w'umugore upfutse igitambaro cy'umukara, wambaye ishati ndetse n'isaha ku kuboko. Afite umufuka arimo kugenda atoranyirizamo imbuto kugira ngo azitunganye azikuramo imyanda, zizabashe kujyanwa ku isoko.

Ni ikiyaga kinini cyane kiri hagati y'imisozi ibiri iteganye. Abagabo n'abagore bambaye ibisaro biti bya kake, iruhande rwabo, hari ubwato bunini bombi bafite indobo bari kudahisha amazi muri icyo kiyaga.

Ni umukozi wambaye umupira wa kaki. Afite igikoresho ndetse ari mu murima munini cyane uhinzemo icyayi, arimo kugisarura. Icyayi ni igihingwa kizwiho mu Rwanda nk'igihingwa nzahurabukungu ndetse gitanga umusaruro mwiza.

Umubyeyi wifuza igitambaro ndetse wambaye n'umupira wiganjemo amabara y'umuhondo n'ubururu, uri mu murima w'icyayi. Arimo arasarura yishimye kuko icyayi ari igihingwa nzahurabukungu, gifitiye umumaro cyane abagihinga.

Ni ibihingwa byitwa ikawa mu Rwanda tumenyereye ko ari igihingwa nzaburabukungu, ni umugabo uri mu murima we w'ikawa arimo kugerageza gusarura ku giti atoranyamo iyeze ishobora gutunganywa ikabyazwa umusaruro wemewe.

Abaturage benshi biganjemo ababyeyi b'abagore bikoreye umusaruro wabo w'icyayi bavuye gusarura.

Ni igihingwa gikunzwe cyane mu Rwanda kizwi ku izina ry'ikawa, ibiti biriho imbuto zitandukanye iz'umutuku, iz'icyatsi n'umuhondo, harimo izigeze igihe cyo gusarurwa kugira ngo zibashe gutunganywa.

Ikawa mu Rwanda tuyifata nk'igihingwa nzahurabukungu, hano muri uyu murima hagaragaramo ibiti by'ikawa iriho imbuto nyinshi, bigaragara ko zeze zigeze igihe cyo gusarurwa.

Uyu ni umurima w'ikawa tuzi nk'igihingwa nzahurabukungu, urimo umubyeyi wambaye ishati y'ubururu uri kugenda asaruraho ikawa itukuye kuko ari yo igaragara nk'iyeze.

Ni iduka ricuruza imiti y'inyamaswa, imiti ikaba ibitse mu tujerekani tw'umweru dupfundikije imifuniko y'icyatsi, ni imiti yifashishwa mu kuvura amatungo magufi nk'intama, ihene ariko ndetse harimo n'iyavura inka.

Ni iduka rinini cyane ririmo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo amacupa y'umweru apfundikije imifuniko y'umweru, amenshi yanditseho ibigendanye n'imiti ibitswemo yifashishwa mu kuvura amatungo magufi ndetse n'amaremare.

Ni iduka rinini ricuruza imiti itandukanye y'amatungo magufi, harimo iri mu macupa atandukanye y'umutuku ndetse n'ay'umweru yiganjemo iyifashishwa mu buvuzi bw'amatungo mato nk'ihene, intama ndetse n'andi macupa arimo ayifashishwa mu kuvura inkoko.

Ni umubyeyi usa naho akuze wambaye ikanzu ndetse akaba afite n'isuka. Ari mu murima w'ibirayi, aho ari kubibagarira kugira ngo bibashe gukura neza, azagere ku musaruro yifuza.

Ni abahinzi batandukanye biganjemo abagore benshi ndetse n'abagabo, bahuriye iruhande rw'umurimo wabo w'urutoki aho bari kuganira ku bijyanye nuko bakorera neza insina zabo, kugira ngo zitange umusaruro ushimishije.

Ni abahinzi b'abagabo bafite amasuka bahuriye hamwe batera imbuto zitandukanye kugira ngo zizabahe umusaruro mu gihe gito.

Ni ifamu nini cyane yororerwamo amatungo ya kijyambere. Irimo inka nyinshi cyane z'umukara ndetse n'umweru aho zororerwamo ndetse zikitabwaho zihabwa ibyo kurya bihagije kugira ngo zitange umusaruro ukenewe.

Abaturage b'abagabo n'abagore ndetse n'urubyiruko, biganjemo cyane abagabo bari ahantu ho mu murima barimo barakorera neza imyaka bahinze, bitaye cyane ku mirimo y'ubuhinzi kuko aribyo bituma babasha gutera imbere.

Umuhinzi wambaye imyenda y'ubururu, uherereye mu muririma yahinzemo ibigori, arimo aritegereza imyaka ye ko ikura neza ndetse anagenzura niba nta byonyi byaba byarajemo kugira ngo abone guteramo umuti wo kuyikingira.

Ni abagabo babiri bambaye imyenda iri mu mabara ndetse batwaye amasuka ku rutugu. Bari mu murima uri ahantu mu kibaya, bigaragara ko bavuye gukora ndetse bafite umwete n'umurava.

Ni umuhinzi ufite isuka wambaye imyenda y'abahinzi isengeri na bote ndetse n'ipantaro, ari guhinga mu gishanga aho ahinga kugira ngo azabone uko atera imyaka ye izabashe kumuteza imbere.

Ni umurima munini cyane uhinzemo ibigori bisa neza cyane bigaragara ko byitaweho, abahinzi biganjemo abagore batandukanye bari gutembera mu bigori bareba ko nta byonnyi byaba byarabyibasiye.

Ni abahinzi biganjemo abagabo, bari mu kibaya, aho basarura ibihingwa byabo. Baratunganya umuceri, bawusarurira hamwe kugira ngo uzabashe kugezwa mu ruganda rutunganya.

Abahinzi bambaye imyenda y'umukara, baherereye mu murima wabo bakuriyemo ubuhinzi bw'imyumbati. Banejejwe no gusarura imyaka yabo, aho ubona ko imyumbati yeze ku rwego rushimishije.

Ni abahinzi bambaye ipantaro y'umukara n'imipira y'umukara, aho bavuye gukora basunitse amasuka ndetse n'ibiti ku igare, ni byiza gukorana umurava kugira ngo babashe kugera ku musaruro bifuza.

Abahinzi biganjemo abagabo n'abagore ndetse n'abana baherereye mu murima aho banejejwe cyane no gusarura ibihingwa byabo bahinze, byiganjemo betarave ndetse n'ibindi, barimo barifashisha ibikoresho byabugenewe mu gusarura ndetse bakabitunda bifashishije amabase n'ibindi.

Abahinzi bishyize hamwe aho bahuriye hamwe kugira ngo bahinge imyaka, biganjemo urubyiruko rw'abagore n'abagabo, bagaragara ko bafite umwete cyane batera imyaka izabateza imbere gihe kizaza.

Ni umurima munini cyane ukorerwamo ubuhinzi bw'ibyo kurya uhinzemo uruyuzi ruzwiho cyane gutanga imbuto zitwa ibihaza zikungahaye ku ntungamubiri.

Ni umurima munini cyane uherereye ahantu ho mu kibaya ukorerwamo ubuhinzi bwibanda ku bihingwa byo kurya, abagore n'abagabo bahinzemo ibihingwa byabo aho baje kubyitaho kugira ngo bitange umusaruro ukenewe.

Ni igiti cy'imbuto giteye mu murima cyeraraho imbuto zitwa amaronje, ni imbuto zikunzwe cyane ndetse mu Rwanda zizwiho cyane kuba zitunze intungamubiri utapfa kubonera mu mbuto izo ari zo zose.

Ni umurima mwiza cyane wiganjemo ibihingwa tuzi ku izina ry'amapapayi. Mu Rwanda iki ni igihingwa gikunzwe cyane kuko gikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye no kurinda uburwayi.

Ibi ni ibihingwa bikunze kubaho cyane abanyarwanda babizi ku izina ry'ibirayi, birakunzwe cyane babiteka mu ifiriti ndetse bakabirya cyangwa se n'abandi babihinga ari byinshi, bakabisagurira n'amasoko bikababyarira inyungu.

Ibihingwa byo kurya bihinze mu murima, byiganjemo ibirinda indwara nk'ibitunguru ndetse n'imboga, birifashishwa cyane mu Rwanda n'ibi byo kurya, birinda indwara cyane.

Mu ishyamba rigari cyane rya kimeza riherereye ahantu ku musozi, ribamo inyamaswa z'agasozi ndetse zikabonamo n'ibizitunga.

Ni ishyamba rinini cyane, riri kugendwamo n'abagabo babiri, umwe wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'icyatsi, harimo amabuye menshi cyane, ku buryo bari kugenda bayarenga, ni byiza ko tunyura mu nzira nziza, zidashobora gushyira ubuzima bwacu mu kaga.

Ni ishyamba ryiganjemo ibiti bitari byinshi bitandukanye ariko bigaragarira neza amaso. Abaturage bicaye munsi yabyo, baganira n'abayobozi babo ku bigendanye n'uko bakwitwara neza kugira ngo umudugudu wabo urusheho gukaza ingamba z'umutekano.

Ni ishyamba rinini cyane ry'inzitane rifite umuhanda wa kaburimbo mo hagati rinyuramo ibinyabiziga ariko rirazitanye cyane, ribamo inyamaswa z'agasozi aho zibamo zikaboneramo ibyo kurya bitandukanye.

Ni ishyamba rinini cyane rya kimeza ry'inzitane riherereye ku misozi ibiri aho utabasha kubona n'umuntu urimo, ryiberamo inyamaswa z'agasozi ndetse ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo mu Rwanda.

Ni ishyamba rya kimeza riherereye ahantu ku musozi. Ryiganjemo ibiti binini cyane ndetse n'ibyatsi ariko hagati muri ryo harimo inzira abantu banyuramo baje kureba inyamaswa ziberamo.

Ni ishyamba rinini cyane ndetse ripfukiranye ririmo umuhanda wa kaburimbo, ibininyabiziga biwunyuramo byihuta kuko ni ishyamba ririmo inyamaswa zishobora ndetse no kuba zarya abaturage, igihe badacungiwe umutekano bihagije.

Ni ishyamba rya kimeza riherereye mu kibaya, ryiganjemo ibiti bitandukanye by'amoko menshi ndetse n'inyamaswa z'agasozi aho ziberamo zirya ibyatsi bitandukanye byo muri iri shyamba.

Ishyamba rya kimeza, ririmo ibiti by'amoko atandukanye, riherereye ahantu nko mu kibaya. Rirashimishije kurireba ndetse ni rimwe mu bintu by'ingenzi dufite mu Rwanda bikurura ba mukerarugendo ku rwego mpuzamahanga.

Ni ikibaya cyahariwe ubuhinzi, aho harimo imyaka isa neza cyane igeze igihe cyo gukacurwa. Ni ibigori bito bigeze igihe cyo guKacurwa, birashimishije kuko byenda kugera aho byatanga umusaruro.

Ni abaturage bihurije hamwe baherereye mu murima wabo bakoreramo ubuhinzi bw'amatunda, aho bafite ibiti ndetse n'imigozi bari kwifashisha bayoboreraho amatunda yabo, kugira ngo azabashe gutanga umusaruro mwiza ukenewe.

Ni ahantu habitswe ibyo kurya byiganjemo imboga n'imbuto, amashu, inyanya, ibitunguru n'imiteja, byombi bikungahaye ku bijyanye no kurinda indwara zishobora gufata umubiri.

Ni umurima munini cyane ukorerwamo ubuhinzi bw'inanasi, inanasi ni zimwe mu mbuto zikunzwe kandi zizwi cyane mu Rwanda, zikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye ndetse no kuvura uburwayi bufata umubiri.

Umugabo wambaye ikote ndetse ufite akadobo, arimo gusaruriramo amatunda. Amatunda areze kandi arahishije, ni imbuto zikunzwe cyane mu Rwanda ndetse no mu mahanga, zikungahaye cyane ku ntungamubiri, ni iby'agaciro kuzikoresha twirinda indwara.

Umuhinzi wa kinyamwuga uhinga imboga n'imbuto wambaye ishati ndetse n'ipantaro by'umukara urimo kuhira imboga ze z'amashu hifashishijwe umupira wabugenewe utwara amazi.

Ni ikibaya kinini cyane gikorerwamo ubuhinzi bw'imyaka itandukanye. Iruhande rwaho hari icyuzi kinini cyane kiriho imashini nziza cyane, yifashishwa mu kuhira ibihingwa bihinze muri iki gishanga mu gihe cy'impeshyi.

Umubyeyi wambaye isengeri y'umukara, ni umuhinzi mwiza cyane, afite igikoresho ari gutwarisha amazi yuhira ibihingwa bye kugira ngo biticwa n'izuba, bikadindira mu gukura kwabyo.

Ni igishanga kinini cyane gikorerwamo ubuhinzi bw'imyaka itandukanye, higanjemo imiferege itwara amazi yifashishwa mu kuhira ibi bihingwa mu gihe k'impeshyi kugira ngo biticwa n'izuba ahubwo bibashe gutanga umusaruro ukwiye.

Abaturage batandukanye biganjemo urubyiruko rw'abasore n'inkumi ndetse n'abagabo n'abagore, baherereye mu murima uhinzemo ibiti ndetse bafite n'amasuka aho bari kuganira ku bigendanye n'uko bazuhira imyaka yabo mu gihe k'impeshyi.

Umuhinzi wambaye imyenda y'umukara ufite igikoresho bifashisha buhira imyaka arimo arakuruza amazi umupira akuhira imyaka ihinze i musozi, ni byiza cyane kuhira imyaka mu gihe cy'impeshyi kugira ngo tuzabashe kubona umusaruro.

Ni ikibaya kiza cyane kiri hagati y'imisozi ibiri iteganye. Kiganjemo ibyatsi by'ubwoko butandukanye, bikunda kumera mu gishanga. Ni byiza cyane kubireba ndetse ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo mu gihugu cy'u Rwanda.

Ni ikibaya gikikijwe n'imisozi itandukanye, harimo inzu ebyiri zikikijwe n'urutoki, ni byiza ko umuturarwanda ava mu manegeka, agatura ahantu heza, hadashyira ubuzima bwe mu kaga.

Ni ikibaya cyiza cyane giherereyemo ibihingwa bitandukanye by'abaturage harimo urutoki ndetse n'ibindi bihingwa byinshi byifashishwa n'abaturage mu kuzamura ubukungu bwabo ndetse no kubirya hirinddwa inzara n'ubukene.

Udusozi duto duto turiho inyubako zitandukanye zigaragara nk'inzu abaturage babamo, hakaba hariho n'igishanga kigaragaramo amazi meza cyane. Ibi ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo mu Gihugu cy'u Rwanda kuko bishimisha kubireba ndetse ni iby'agaciro kubibungabunga.

Ni ikibaya kinini cyane giherereye hagati y'imisozi cyiganjemo ibiti bitandukanye bya cyemeza, uruhande rumwe rwacyo ruganjemo ibihingwa bitandukanye by'abaturage aho babyitaho cyane kugira ngo bazabone umusaruro ukwiye.

Ni ikibaya kiza cyane kiganjemo ibiti bitandukanye biteye ku mirima iciyemo amaterasi n'indinganire, mu Rwanda dukunze guca amaterasi n'indinganire kugira ngo twirinde isuri ishobora kudutwarira imyaka ndetse ikangiza n'ubutaka.

Ni umusozi uriho ishyamba rinini cyane. Munsi yaryo harimo ibibaya bitandukanye, byiyiganjemo ibihingwa bitandukanye nk'ibigori, amasaka ndetse n'ibindi bihingwa abanyarwanda bakunda guhinga kugira ngo barye basagurire n'amasoko.

Ni ikibaya giherereye hagati y'imisozi myinshi itandukanye ndetse harimo n'ibice bitoya byiganjemo amazi menshi. Ikindi gice gihingwamo ibihingwa byo kurya, harimo urutoki ndetse n'ibindi bitandukanye abanyarwanda bakunze guhinga kugira ngo bibatunge.

Ni igishanga cyiza cyane ubona ko binejeje kukireba kirimo amazi menshi rwagati muri ayo mazi higanjemo uturwa duto dutoya ndetse iruhande rwacyo nyirizina hari imisozi miremire yiganjeho ibyatsi ndetse n'ibiti bitandukanye.

Ni ifamu nini cyane ikorerwamo ubworozi bw'inka za kinyarwanda ziganjemo inyambo zifite amahembe manini cyane, abaveterineri bazwiho umurimo wo kuvura amatungo basuye iyi famu kugira ngo basuzume izi nka ko nta burwayi zifite.

Umugabo wambaye imyenda y'umweru ndetse uri kwitegereza cyane ubworozi bwe. Afite imishwi myinshi cyane, arimo kuyiha ibyo kurya, ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu matungo magufi, akunze kororwa cyane kuko atanga umusaruro mu gihe gito.

Ubworozi bw'inka bukorerwa mu mafamu aho borora inka z'inyambo zizwi mu muco nyarwanda, aha hitabiriye igikorwa cyajwemo n'abavuzi b'amatungo bazikingira kugira ngo barebe ko nta burwayi bafite.

Ni ifamu y'inka nyinshi cyane, zimenyerewe mu muco w'u Rwanda, ku izina ry'Inyambo, hari abashumba bifashishwa mu kuziragira ndetse no kuziha amazi yo kunywa, igihe zishotse.

Ni inka nyinshi cyane z'inyambo zifite amahembe maremare yiganje areba inyuma, ziba mu ifamu aho hari abaganga b'amatungo bazisuye, bambaye imyenda y'akazi, bareba ko ntazifite uburwayi zirimo.

Ni ikiraro kinini cyane gisakaje amabati ndetse kiriho n'umugezi. Harimo itungo ribayeho neza cyane, aho nyiraryo ari kuryitaho, ariha ibyo kurya kugira ngo ribashe gukura, ritanga umusaruro ukwiye.

Ubworozi bw'amatungo nk'inka ni ubworozi bwiza cyane bugezweho mu Rwanda. Aborozi bashishikarizwa kororera inka mu biraro ndetse bakanazigaburira neza kugira ngo zibashe gukura kandi zinatange umusaruro nk'uko bigaragara.

Ni abagabo babiri bahagaze iruhande rw'inkoko zabo aho zizwi ku matungo magufi yifashishwa mu guteza imbere abayoroye kandi agatanga umusaruro vuba.

Inka nyinshi cyane ziganjemo iz'umweru, umukara ndetse n'ikigina, ziri kurisha mu ifamu ndetse n'umushumba wazo aziragiye. Ni byiza kuzibungabunga kugira ngo hatagira izangirika cyangwa zigacika zikajya kona imyaka y'abaturage.

Inkoko z'umweru ndetse n'umukara, zizwi ku izina ry'imbata. Zitanga umusaruro cyane. Ni amwe mu matungo magufi atagoye kuyorora mu Rwanda ariko atanga umusaruro utubutse ku borozi bawo.

Ni ifamu nini cyane yororerwamo inka z'inyambo zifite amahembe manini cyane areba inyuma, yasuwe n'ababihuguriwe mu kuvura amatungo aho bari gusuzuma ko nta yaba ifite uburwayi irimo kugira ngo ivurwe hakiri kare.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni ubworo bukunzwe cyane mu Rwanda cyane by'umwihariko nk'ihene kuko zifasha gukemura ibibazo bito bito mu ngo z'abaturage ndetse no kuzamura ubukungu bwabo, ihene ni amatungo magufi ariko meza cyane azwiho mu gutanga umusaruro mu gihe gito.

Ni itungo rikunzwe cyane mu Rwanda ryitwa ingurube, ni itungo ryiza cyane rifasha abaturage kwiteza imbere kuko iyo ribyaye ribyara utwana twinshi cyane ndetse tugakura vuba uryoroye akabasha kubona umusaruro vuba, riri mu kiraro kandi rigaburirwa neza cyane.

Ni inka nziza cyane y'umukara ndetse y'imbyeyi, iri mu kiraro aho yororerwamo igahererwamo ibyo kurya bitandukanye ndetse ikarindwa indwara zitandukanye isuzumwa n'abaganga babihuguriwe.

Ni itungo ryiza cyane rizwi ku izina ry'ingurube, ni rimwe mu matungo magufi agezweho ndetse akunzwe kororwa cyane n'abanyarwanda kubera umusaruro wayo utubutse, kandi zikaba zororoka mu gihe gitoya.

Umuhinzi wabigize umwuga, urimo gukorera neza imbuto yahinze, bigaragara ko izi ngemwe zimaje kugera hejuru, zigomba kwitabwaho kugira ngo zikure neza, zizabashe gutanga umusaruro uhagije.

Ni umusaza uri gukusanyirizamo umusaruro we w'ibigori, abishyira hamwe kugira ngo bitazangirika, azabikoreshe mu gihe kizaza.

Umuryango w'ababyeyi ndetse n'abana babo, barimo gutunganya umusaruro wabo, barimo barahungura ibigori byumye n'umusaruro mwiza cyane, babonye binyuze mu buhinzi bw'ibigori, banezejwe cyane n'umusaruro mwiza bagezeho.

Ni inzu yutse iruhande rwayo hari amatungo atandukanye aho hari ibikoresho bifashishije mu kuyagaburira kugira ngo abashe gukura neza.

Ni umuganga w'amatungo wambaye uturindantoki tw'ubururu ndetse uri gukora isuzuma abaga itungo kugira ngo agerageze imiti ashaka kuzifashisha mu buvuzi akora mu kuvura amatungo atandukanye.

Ni abaganga b'amatungo batandukanye bambaye inifomo z'amataburiya. Bambaye uturindantoki ndetse n’udupfukamunwa tw’umweru aho bahuriye muri laboratwari basuzuma ibikoresho ndetse n’imiti bifashisha mu kuvura amatungo.

Umuviterine yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'ubururu, afite ibikoresho birimo imiti yifashisha mu kuvura amatungo, arimo arabisukura akoresheje amazi meza.

Ni umuganga uvura amatungo atandukanye, arimo arasuzuma imiti itandukanye, yambaye uturindantoki tw'ubururu kugira ngo itabasha kumwangiza mu kiganza.

Ni ifamu nini cyane irimo inka zitandukanye z'inyambo, abaganga b'amatungo bazwi ku izina rya veterineri baje kuzisuzuma ndetse no kurebamo izaba zirwaye kugira ngo zihabwe ubuvuzi.

Ni abaganga b'amatungo bambaye ibisarureti by'icyatsi baje kuvura inkoko zirwaye, bazitera imiti mu nshinge.

Ikiraro kirimo inka nziza cyane y'inyambo hakaba harimo umugabo bigaragara ko ari umuvuzi w'amatungo urimo kubyaza iyi nka, ni byiza ko igihe inka cyangwa andi matungo yose ageze igihe cyo kubyara twakwifashisha abaganga amatungo kugira ngo zitagira ibindi bibazo mu kubyara.

Ni umuvuzi w'amatungo wambaye imyenda y'akazi ndetse n'agapfukamunwa aho yasuye amatungo yororerwa mu ifamu kugira ngo ayasuzume arebemo arwaye abashe kuba yavurwa hakiri kare.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo bagiye aho bahurira kugira ngo bimenyereze umwuga, barimo barasuzuma ibikoresho bitandukanye ndetse bambaye n'uturindamunwa kugira ngo habaye harimo ibyangiza babashe kuba bafite ubwirinzi.

Ni abantu bize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, baje gufasha umuturage ufite inka ikeneye kubyara, ni byiza ko twifashisha inzobere mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo amatungo yacu adahura n'ikibazo mu gihe abyara.

Ni abaganga b'amatungo bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'ubururu, bafite ibikoresho bitandukanye aho bari gusuzuma inyama z'amatungo atandukanye kugira ngo barebe neza imiti bazifashisha mu kuvura amatungo arwaye.

Ni inyoni zibereye mu gishanga zizwi ku mazina y'imisambi aba mu gishanga ahantu hari amazi, zishimishije cyane kuzireba ku buryo ari zimwe mu nyamaswa z'agasozi zikurura ba mukerarugendo.

Ishyamba karemano ryiganjemo ibiti byakuze cyane harimo inyamaswa z'agasozi zizwi nka twiga ndetse n'izindi zitandukanye zibera muri iri shyamba ndetse zikanahabonera ibyo kurya bya buri munsi.

Ni ishyamba rinini cyane ryiganjemo ibiti ndetse n'ibyatsi bya kimeza, ririmo inyamaswa zitandukanye z'agasozi, aho ziberamo zikaboneramo ibyo kurya ndetse n'amazi yo kunywa zitaje kwangiza umutekano w'abaturage.

Inyamaswa z'agasozi nyinshi zitandukanye, higanjemo izifite amahembe maremare. Ziri mu ishyamba rigari, aho zibera muri pariki ariko hakaba hari icyuzi kinini, zinyweramo amazi.

Ni mu ishyamba kimeza tumenyereye ko habamo inyamaswa z'agasozi, intare n'akana kayo biryamye ku kazuba hafi y'ibiti, biranezerewe cyane nk'uko tubimenyereye, ishyamba rya kimeza ribamo inyamaswa z'agasozi.

Inyamaswa zitandukanye z'agasozi ziganjemo imbwa, impyisi ndetse n'intare, ziri mu ishyamba karemano rizwi ku izina rya parike. Zirimo zirirukanka cyane, bigaragara ko harimo utunyamaswa duto zirimo zihiga, inini zishaka kuturya muri iyo parike.